Ubutaka bunini cyane buteyeho indabo zimeza. Zimwe zaguye bitewe n'izuba ryinshi, izindi zanambye bitewe n'uko ziteye mu makoro yo mu kinigi, ahagana mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane.

Ibyatsi by'inteja biri mu musozi ahameze urutoki, ku makoro maremare, ahagana mu busitani bwa Edeni, impande y'ikiyaga cya muhondo.

Imboga rwatsi zifite amabara asa n'icyatsi, zikomeye cyane ku ntungamubiri z'ibikomoka ku buhinzi, zifite amababi atoboye ku buryo ashobora gutungwa n'inyamaswa iyo ari yo yose.

Ishyamba rirerire rifite ibiti birebire, ririmo riragaragaza ibiti bitoya byagiye bitemwa bimaze kumera. Ibiti bimwe ni ibiti bya kivuvu, ibindi biti n'ibya kinyarwanda bishobora kuvamo ubwato.

Ikimera cy'amashaza cyera neza aho amababi yacyo aba asa n'ubururu, gifite ubusagi busa n'umweru. Cyerera hejuru ahagana mu majyepfo y'iburarasirazuba bwa congo.

Ibimera byinshi bikubiyemo :umucaca, sedereri ,urwiri ibisheke, kabingo, kagoha, pinusi ,n'ibindi bikomoka ku biti.